Abanyeshuri bavomera amazi mu ndobo, bamwe bakaraba intoki, ubona ko higanjemo isuku, amavomero yo ku ishuri atuma abana bagira isuku, bakirinda indwara, bagateza imbere isuku ku ishuri, bagafasha n'abanyeshuri kwiga neza.

Abagabo bari mu busabane, banywa, baganira bahuza ibitekerezo, bakemurirana ibibazo, bahana amakuru kandi bagura ubumenyi hagati yabo.

Abana bane, bafite ijerekani ku mugezi, bari kuvoma amazi batumwe n'ababyeyi babo yo kwifashisha mu mirimo yo mu rugo nko guteka, amasuku yaba ayo ku mubiri ndetse no mu nzu.

Abaturage bari kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso babifashijwemo na muganga kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, babone aho bahera bafata imiti y'umuvuduko w'amaraso.

Umugabo ugira isuku, uri gukaraba intoki, yifashishije kandagira ukarabe, ni ibintu byiza cyane kugira isuku, cyane cyane kujya gufata amafunguro ubanje gukaraba intoki.

Ivomero aho abaturage badafite amazi mu rugo bifashisha bakura amazi, kugira ngo abafashe mu mirimo igiye itandukanye yo mu rugo, mu masuku n'ibindi byinshi.

Umujyanama w'ubuzima aganiriza abaturage ku bijyanye n'isuku, imirire iboneye, kurwanya indwara z'ibyorezo n'izandura, ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, ndetse n'imyitwarire iboneye ku buzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi uri kuvuza umwana we mutoya, abifashijwemo n'umuganga w'umugore bareba ikibazo umwana afite kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ahabwe n'imiti.

Abantu benshi bari mu nama abagore n'abagabo bicaye, umwe muri bo ahagaze arimo kubaganiriza imbere yabo ku meza hari uducupa tw'amazi.

Abaturage bari kuvoma amazi mu bidomoro yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi nko guteka ndetse n'amasuku agiye atandukanye, nk'ayo mu rugo n'ayo ku mubiri wabo.

Ivomero ry'amazi abaturage badafite amazi mu rugo bifashisha bavomaho amazi yo kwifashisha mu mirimo igiye itandukanye, harimo nko gukora amasuku yo mu rugo, yo ku mubiri wabo ndetse n'ibindi byinshi.

Umwana uri kuvoma amazi ku kigega yo kunywa, amazi y'ikigega agira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu, kubera ko ntago aba afite isuku ihagije.

Umukobwa uri mu rugo, uri kuvoma amazi mu kijerekani, hasi hari amabase abiri, ku mugozi hari imyenda, ubona ko yakoze amasuku, yo kumesa.

Umubyeyi ugira isuku woza ibikoresho bigiye bitandukanye byo murugo ndetse wita no ku mwana we amushyize mu mugongo bitamubuza no gukora indi mirimo igiye itandukanye yo murugo.

Umugabo uri kumugezi n'ikidomoro waje kuvoma amazi yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, harimo nk'amasuku ndetse no gutekesha cyangwa se yo kunywa.

Ivomero aho abaturage badafite amazi mu rugo, bajya kuvomera, kugira ngo babone amazi, yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubera ko ari ingenzi, mu buzima.

Abana b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'ishuri, abahungu babiri, abakobwa bane, barimo kunywa amazi, barimo kuvoma ku kigega.

Umubyeyi wita ku bana be bishimye, umwe ari mu mugongo undi ahagaze ubona ko bishimye ndetse anabatekeye igikoma. Kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Umugore w'igikara, ufite umusatsi muke wambaye agapira mo imbere k'umukara n'akandi inyuma k'umutuku urimo guseka yishimye ahagaze imbere yinzu.

Umubyeyi uri gupimisha umwana we umuriro, abifashijwemo n'umujyanama w'ubuzima, barebera hamwe uko ubuzima bw'umwana buhagaze cyangwa igipimo umuriro wiwe ugezeho.

Umwana uryamye ku gatanda ari gukurwa iryinyo n'umuganga ubizobereyemo yifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo afashe umurwayi we.

Uburyo bwo gukura iryinyo wifashishije akagozi, ntabwo bisaba kujya kwa muganga, wabyikorera ku giti cyawe uri mu rugo cyangwa se ubifashijwemo n'undi muntu, ni ubuvuzi gakondo.

Umubyeyi uri kwigisha umwana we kugira isuku yo mu kanwa bifashishije uburoso na korogate cyangwa se umuti w'amenyo wabugenewe.

Umwana mwiza wishimye wambaye neza, uri kwikorera isuku mu kanwa cyangwa se isuku y'amenyo yifashishije uburoso ndetse n'umuti w' amenyo.

Ubukuzi bw'iryinyo ritakibashije gukira cyangwa kubungabungwa kandi rikaba rigira ingaruka mbi ku buzima bw'umunwa cyangwa irindi ryinyo byegeranye bikaba ngombwa ko rikurwamo.

Uburyo bwo gukura amenyo wifashishije akagozi ntibisaba kujya kwa muganga, wabyikorera uri no mu rugo kandi akagozi gafasha gukuraho ibisigazwa by'ibiryo n'umwanda uri hagati y'amenyo, aho uburoso budashobora kugera.

Gukura amenyo wifashishije akagozi ntago bisaba kujyara kwa muganga nawe wabyikorera ku giti cyawe uri muru rugo cyangwa se ubifashijwemo na mugenzi wawe.

Umusore mwiza, useka neza, ufite amaso meza, ufite mu kanwa heza, amenyo atondetse neza, kandi asukuye.

Umusore n'inkumi, bari kwita ku musaza ukuze, bamusindagiza, kugira ngo agere aho ashaka kujya, kandi bamuha n'ubutabazi bw'ibanze, mu byo akeneye, mu buzima bwa buri munsi.

Abantu bishimye basoroma ikawa, igira umumaro mwinshi cyane, yoherezwa hanze igakorwamo icyayi, bikinjiriza amafaranga menshi igihugu cyacu.

Umukecuru ukuze witeze igitambaro cy'umutuku urimo guseka wakutse amenyo y'imbere hejuru no hasi, ufite ikibazo cy'ijisho ufiteho n'igipfuko.

Urubyiruko ruri mu mutambagiro cyangwa se mu rugendo shuri, bayobowe imbere n'icyapa cyanditsweho, rubyiruko ni mwe hazaza heza h'u Rwanda, irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi, bakangurira abantu kwipimisha sida ndetse no kuyirwanya.

Ibiro by'iy'akirwa ry'abarwayi ahantu h'ingenzi mu bitaro cyangwa ivuriro, aho umuganga atangira serivisi z'ubuvuzi ku barwayi, hagomba kuba hasa neza kandi hafite isuku.

Mu isuzumiro ry'abarwayi, aho muganga afasha abarwayi kumenya indwara barwaye ndetse n'imiti bafata kugira ngo babashe gukira.

Icyapa giherereye mu mujyi wa Kigali, cyerekana aho ikigo cyo guhindura imibereho no kwakira abantu giherereye, kandi bafasha abantu mu buryo bwose mu guhindura imibereho.

Inyubako igeretse kabiri isize amarangi y'umweru n'umuhondo, imbere hari icyapa cyanditseho Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hejuru no hasi hari abantu, imbere yaho hateye ibiti bisa icyatsi.

Abaganga batatu umugabo umwe n'abagore babiri bari gusuzuma umurwayi wazanye n'umurwaza we, barebera hamwe ikibazo afite kugira ngo bamuhe imiti.

Mu nyubako y'ibitaro mu cyumba aho abarwayi barwarira bahawe ibitanda, harimo na supanete hagomba kuba hasa neza, kugira ngo bitongerera umurwayi kuremba.

Inzu cyangwa inyubako, ababyeyi bagiye kwibaruka babyariramo, izanwamo ababyeyi bari ku bise, bakitabwaho n'abaganga, kugira ngo babashe kubyara abana bameze neza, kandi bashyitse.

Mu nyubako yo kwa muganga mu cyumba harimo ibitanda abarwayi barembye baryamaho barimo gusuzumwa bahabwa n'imiti y'ibanze.

Mu nyubako y'ibitaro mu cyumba aho umurwayi wahawe igitanda arara akanitabwaho, ahabwa ubuvuzi bw'ibanze, harimo ibitanda ndetse n'inzitiramibu.

Inzu igurishirizwamo imiti y'abarwayi y'indwara zitandukanye kandi inatanga serivise nziza ku bayigana.

Inyubako y'ibitaro bya La Croix du Sud, biherereye mu mujyi wa Kigali bivura indwara zigiye zitandukanye, byakira abarwayi benshi bakitabwaho n'abaganga b'inzobere babishinzwe.

Inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, aho aho abarwayi bahererwa serivisi y'ubuvuzi kandi bagahabwa n'imiti bitewe n'indwara barwaye.

Ibitaro by'i Kabgayi bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ariko bikaba bizwiho kuvura amaso, bakaba bafite inzobere mu kuvura amaso cyane.

Inyubako aho ababyeyi batwite bitabwaho bakanabyarira, ahantu h'ingenzi mu buzima bw'umubyeyi utwite no ku mwana uri mu nda ye.

Inyubako y'ivuriro ryita ku barwayi bafite indwara zitandukanye, bitabwaho n'abaganga b'inzobere mu burwayi bwabo.

Mu nyubako y'ubuvuzi ku muryango w'icyumba babagiramo abarwayi bakeneye ubwo buvuzi bwo kubagwa.

Inyubako y'ibitaro, byakira abarwayi b'indwara zitandukanye, bakitabwaho n'abaganga b'inzobere muri ubwo burwayi bugiye butandukanye.

Abarwayi benshi bicaye mu nyubako yo kwa muganga ku murongo, bategereje guhura na muganga ngo abafashe kubasuzuma indwara barwaye.

Abantu bari muri siporo ngororamubiri rusange ihurirwamo n'abantu benshi, bibafasha kugira ubuzima bwiza, kwirinda indwara, kandi bikubaka n'ubucuti hagati yabo.

Umusore ufite ubwanwa, wambaye umupira w'ubururu, ari kunywa amazi kugira ngo yongere amazi mu mubiri yirinde umwuma, yongere imbaraga kandi yirinde n'umunaniro ukabije.

Amagi, imbuto, imboga, ji, inyama, amazi, harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ndetse n'ibirinda indwara, bifasha umuntu gukomera akanakora siporo afite imbaraga zihagije.

Siporo yo kugorora umubiri, ni ingenzi cyane mu buzima, ituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze, ni ikintu buri muntu wese yagakwiye gukora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa uri muri siporo ngororamubiri, bifasha kurinda indwara, bikagorora n'amagufa, ndetse bigafasha kugira ubuzima bwiza, buzira umuze.

Umukobwa waruri muri siporo uri kunywa amazi kugira ngo agumane amazi mu mubiri yirinde umwuma, yongere imbaraga n'umuvuduko kandi yirinde n'umunaniro ukabije.

Siporo ni ingenzi mu buzima, umuntu wese agomba gukora siporo kuko ifasha muri byinshi nko gukiza indwara, kugorora umubiri ndetse n'ibindi byinshi, ikagabanya n'umubyibuho ukabije.

Umusore uri muri siporo ku giti cye kugira ngo akomeze umubiri, agire imbaraga, yirinde indwara kandi agire imitekerereze imeze neza cyangwa se afungure mu bwonko.

Akagare k'abarwayi bafite ubumuga bw'amaguru, cyangwa bw'umugongo batabasha kugenda, bifashisha akagare kugira ngo babashe kugera aho bashaka kujya.

Umusore uri mu mikino ngororamubiri cyangwa se siporo, kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara kandi yongere imbaraga mu mubiri we.

Abantu babiri umusore n'inkumi, bafite uducupa tw'amazi mu ntoki, bari muri siporo ngororamubiri, yo kwirukanka kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birinde indwara kandi bagire n'imbaraga mu mubiri wabo.

Umukobwa uri gukora siporo ngororamubiri, bikaba bifasha kurinda indwara kandi bigatuma umuntu agira n'amagufa akomeye ndetse n'ubuzima bwiza.

Umusore uri mumikino ngororamubiri cyangwa se siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara kandi akomeze n'amagufa yo mu mubiri we.

Umusore uri kunywa amazi muri siporo, kugira ngo agumane amazi mu mubiri, yirinde umwuma, yongere imbaraga n'umuvuduko, kandi yirinde umunaniro ukabije.

Umukobwa uri muri siporo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara kandi yongere imbaraga nyinshi mu mubiri we.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu, afasha byinshi, cyane cyane mu gukora siporo urayifashisha, bigufasha gufungura ibihaha, ugakora siporo neza.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'umuravumba, wifashishwa kuvura ibisebe n'inkovu, inkorora n'ibicurane, kurwanya indwara z'uruhu, kuvura impiswi ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Mu imurikagurisha cyangwa se mu isoko bacuruza imiti gakondo igiye itandukanye, ivura indwara zinyuranye, harimo nk'indwara z'abagore, iz'abagabo.

Umuti w'umuravumba wifashishwa kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane, ndetse ugafasha no kugabanya umuriro.

Igitunguru, indimu, ndetse n'amavuta, iyo babivanze bikora nk'umuti wifashishwa kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, ibicurane, ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye.